Umupapa bigaragara ko ashaje w'imibiri yombi, wishimye mu maso ye ufite inkoni mu ntoki, hari amagambo yandikishije mu ibara ry'umweru n'umuhondo, hasi hari imibare ya nomero ya telefone

Ni cyapa kinini gishushanyijeho imodoka isize irange ry'umukara, ifite amatara y'umutuku bigaragara ko muri butu harimo umuntu uryamyemo wambaye imyenda icitse.

Ni icyapa gisize irangi ry'umweru cyandikije mu magambo y'umutuku n'umukara, hariho umukobwa w'imibiri yombi wambaye ikote ry'umukara ufite isaha ku kuboko wishimye mu maso ye.

Abantu babiri umuhungu n'umukobwa bari bishimye mu maso ye bari kuramukanya ibiganza basuhuzanya umuhungu yari yambaye ishati y'umweru karuvati y'umukara ikote ry'umukara umukobwa afite imisatsi myinshi y'umukara.

Ni abantu babiri, umumama n'umukobwa wambaye umupira w'ubururu urimo umweru, bafite urupapuro rusize irangi ry'umweru, rwandikishije mu mumagambo y'umukara n'ubururu, bigaragara ko hari ibintu bari kwerekana.

Ni umugabo w'imibiri yombi ufite ubwanwa butari burebure cyane, nta musatsi afite. Bigaragara ko yishimye mu maso ye, yambaye ishati y'umweru, ikote ry'ububururu, afite igikapu cy'umukara.

Ni umukobwa w'imibiri yombi wishimye mumaso ye wambaye amarinete, wambaye ingofero y'umuhondo umupira w'umukara, ufite icyapa gisize irangi ry'icyatsi cyandikishije mu magambo y'umweru.

Icyapa gisize irangi ry'umutuku n'umweru cyandikishije mu magambo y'umweru n'umukara, iriho umumama w'inzobe wambaye umupira w'umukara, ufite imisatsi myinshi bigaragara ko yishimye mumaso.

Ni umuhanda munini w'umukara urimo imodoka nyinshi zigiye zitandukanye harimo: izisize irangi ry'umukara zifite amatara y'umutuku, izisize irangi ry'umweru, hari icyapa kiriho umukobwa wambaye umupira utukura.

Ni abantu batatu abakobwa babiri n'umuhungu umwe bambaye amakanzu y'umukara, undi yambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru na karuvati. Hasi handikishije amagambo y'umweru.

Ni inzu yubakishije ibiti by'imbaho bigaragara ko bacururizamo ibyo kurya bigiye bitandukanye; amavuta, inyanya ndetse n'ibindi birungo ushobora gukoresha utetse, harimo umukobwa wambaye isengeri y'umukara.

Ni inzu nini yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije amakaro hasi, bigaragara ko ari iy'ubucuruzi bugiye butandukanye, bacururizamo imyenda y'abamama bambara bagiye ahantu hagiye hatandukanye, mu bukwe ndetse n'ahandi.

Ni imirimbo y'abakobwa bayita amasaro, bakunda kwambara ku maboko ugiye ahantu hagiye hatandukanye, ifite amabara menshi; umuhondo, umutuku, ubururu, umweru, ndetse n'ayandi wifuza.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho bigaragara ko ariy'ubucuruzi bw'imyenda, harimo abamama babiri, umwe bigaragara ko hari ibyo ari gusobanurira undi ari kumwereka.

Ni inzu y'ubucuruzi, ucururizamo ibintu bigiye bitandukanye, imipira y'ubwoko bwose ushobora kwambara mu mugihe cy'imbeho cyangwa ari ahantu ugiye harimo n'ingofero.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, isize irange ry'umweru ku bikuta, hasi yubakishije amakaro, haparitsemo imodoka nziza nshyashya isize irange ry'umweru, ifite amatara y'umutuku.

N'imodoka ifunguye umuryango ifite isuku m'imbere isize irangi ry'umukara ifite intebe iriho ibitambaro by'umukara hirya haparitse izindi modoka nyinshi zifite ibikuta bisize irangi ry'umweru.

Ni inzu nziza isize irangi ry'umweru ku bikuta hasi yubakishije amakaro aparitse imodoka nyinshi nziza bigaragara ko ari nshyashya harimo izisize irangi ry'umukara ifite amatarari.

Imodoka nziza bigaragara ko ifite isuku, isize irange ry'umweru ryandikishije mu magambo y'ubururu, ifite ibirahure by'umukara, itwara abantu benshi bagiye batandukanye ibajyana mu ntara.

Umuhanda w'amabuye uparitsemo imodoka nini isize irange ry'umweru bashobora kwifashisha batwara ibintu bigiye bitandukanye, imbere yayo hari abagabo babiri bafite icyapa mu ntoki cyandikishije mu ibara ry'umutuku.

Imodoka nziza cyane igaragara nkaho ari shyashya isize irangi ry'umweru ifite ibirahuri by'umukara iparitse mu muhanda w'umukara hirya hari amazu agiye atandukanye.

Iyi nzu yubakishije amakaro hasi hateretse icupa ry'amazi, hirya hari imodoka nini zitwara imizigo igiye itandukanye, bigaragara ko zikiri nshyashya zitaragera mu muhanda zisize irange ry'umweru.

N'umuhanda wubakishije amabuye, uhagazemo abantu batatu bafite icyapa gisize irangi ry'umweru cyandikishije mu magambo y'umutuku, n'umukara haparitse imodoka zisize irangi ry'umweru.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije amatafari hasi, haparitse imodoka nziza bigaragara ko ari nshyashya zisize irangi ry'umukara, imeze nk'aho zitarajya mu muhanda.

N'inzu nziza yubatse m'uburyo bugezweho yubakishije amakaro hasi, kubikuta hasizeho irangi ry'umweru hari imodoka isize irangi ry'umukara bigaragara ko ikiri nshyashya itarajya m'umuhanda.

Ni umuhanda w'amabuye wegereye inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, igizwe n'ibirahure byinshi by'umukara, ku rukuta hasizeho irangi ry'umweru, haparitse imodoka nziza bigaragara ko ikiri nshyashya isize irangi ry'umweru.

Ni umuhanda uparitsemo imodoka nziza bigaragara ko ari shyashya itarajya mu muhanda, ifite ibirahure by'umukara. hirya hateye ibiti birebire twifashisha tubona umwuka duhumeka, hateye indabyo.

Ni akazu gatoya bigaragara ko harimo umuntu uri gutanga serivisi zigiye zitandukanye inyuma hari umumama ukenye igitenge, w'igikara wambaye agapira karimo uturongo twinshi tugiye dutambitse, bigaragara ko hari serivisi ariko.

Ni amafaranga agizwe n'imibare ine amazeru atatu ndetse na kabiri, hakaba hashushanyijeho igiseke ushobora gutwaramo ibintu bigiye bitandukanye, ibishyimbo, amashaza, amasaka ndetse n'ibindi hashushanyijeho.

Ni amafaranga agizwe n'imibare ine, amazeru atatu na gatanu, basomamo ko ari inote ya bitanu, hashushanyijemo ingagi y'umukara harimo.

Ni umuhanda w'amabuye uparitsemo imodoka, inyuma yayo hari abagabo babiri bambaye imyenda y'abantu bashinzwe umutekano w'inzu, bigaragara ko hari ibintu bashakaga gushyira muri iyo modoka.

Ni inzu nini yubatse neza igaragara neza, irimo umukobwa wambaye ikote ry'umukara, ijipo y'ubururu, bigaragara ko hari ubufasha ari kwaka umuntu wari uri mo imbere, hirya naho hari hahagaze undi mugabo.

Afaranga agizwe n'imibare ine, zeru eshatu na gatanu, hashushanyijeho insina ifite igitoki, andi yo hejuru yo hashushanyijeho umumama wishimye, wambaye ikanzu y'ubururu.

Ni ama amafaranga agizwe n'imibare ine amazeru atatu rimwe, ashushanyijeho inkende ni amafaranga akoresha mu Rwanda ushobora gukoresha uhaha ibintu bigiye bitandukanye imyenda, inkweto ndetse n'ibindi.

Ni ahantu hari amvirope ushobora kubikamo ibintu bigiye bitandukanye, amacupa y'amazi afite imifuniko isa ubururu, icyapa cy'umweru cyandikishije mu magambo y'ubururu ushobora kuya

Ni umugabo wambaye igisurubeti gifite ibara ry'umuhondo, ryandikishije mu magambo y'umukara, ateretse amagi menshi bigaragara ko ari ahantu bacururiza amagi agiye atandukanye, amanyarwanda.

Mu umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru hirya haparitse moto y'umutuku hari icyapa gishushanyijeho inka n'amajerekani bigaragara ko ari ahantu bacuruza amata, ndetse banahagemura hanze hari umutaka wa emutiyene.

Inzu irimo intebe z'imbaho harimo abagabo babiri bambaye amapantaro y'umukara, umwe yambaye ishati y'umweru indi ni iy'ubururu, bigaragara ko ari ikusanyirizo ry'amata.

Inzu yubakishije amakoro hasi, bigaragara ko ari ikusanyirizo ry'amata cyangwa bahacururiza amata, harimo abagabo babiri uwunamye n'uhagaze wambaye umupira w'umweru, undi yunamye yambaye umupira w'ubururu.

Ni inzu yubakishije amakaro y'umweru hasi haturutseho ubujerekani bwinshi busize irangi ry'umweru handikishije mu magambo y'amabara agiye atandukanye, ubururu, umukara ndetse n'icyatsi, byerekana ko bugiye ahantugiye hatandukanye.

Ameza akozwe mu mbaho ateretseho isahani ikozwe mu cyuma ,ateretseho ibyo kurya bikorwa mu ifarine ibirayi cyangwa inyama ziseye ushobora guha umuntu waje kugusura.

N'amafaranga agizwe n'imibare itatu, gatanu n'amazere abiri hashushanyijeho inzu nini yubatse m'uburyo bugezweho igeretse ifite ibirahure byinshi mu miryango ushobora gusohokanamo abantu.

Ni umukobwa w'inzobe ufite imisatsi y'umukara, iminwa y'umutuku, wambaye ishati ifite ibara ry'umweru, ufite amafaranga menshi mu ntoki agiye atandukanye.

Ni inzu igeretse hanze hari ibyapa byinshi, harimo igisize irangi ry'umweru, cyandikishije mu magambo y'ubururu n'umutuku, hasi hariho nomero za telefone, bigaragara ko ari ahantu bakoresha babikuriza.

Ni inzu isize irangi ry'umutuku yandikishije mu magambo y'umweru, hahagaze umuhungu wishimye wambaye marinete ishati y'umweru ndende bigaragara ko ari inzu y'ubucuruzi.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije amakaro hasi, imbere hari abantu batatu, umukecuru wambaye ikoti ry'umukara, agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara, hirya hari abahungu babiri.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka nini itwara imizigo igiye itandukanye, iyivana mu ntara imwe iyijyana mu handi, isize irangi ry'umweru hari umumotari udahetse umugenzi intebe zikozwe mu mbaho.

Ni inzu nziza cyane yubakishije amakaro hasi, isize irangi ry'umweru ku rukuta, ifite inzugi n'ameza bikozwe mu mbaho, bigaragara ko ari ahantu bafatira amafunguro agiye atandukanye.

Ni icyumba cyubakishije amakaro hasi, harimo akabati gakozwe mu mbaho, igitanda kiriho imisego y'umweru, amashuka y'umweru, ni ahantu ushobora kurara ukamererwa neza.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, biragaragara ko harimo isuku, hasi yasize irangi ry'ubururu harimo intebe n'ameza bikozwe mu mbaho, ushobora kwakira abashyitsi bagiye batandukanye.

Ni inzu nziza yubakishije amakaro hasi irimo utubati n'intebe bikozwe mu mbaho, harimo intebe zindi zifite imisego, ifite ibikuta bisize irangi ry'ubururu.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho yubakishije amakoro hasi ku bikuta hasizeho irangi ry'umweru harimo intebe n'ameza bikozwe mu mbaho, ni ahantu ushobora kwakira abantu benshi bagiye batandukanye.

Ni ibyatsi biconze bitarimo umwanda mwinshi harimo ameza akozwe mu mbaho intebe z'imisego zigiye zitandukanye, ushobora kwakira abantu benshi bagiye batandukanye abamama cyangwa abahungu.

N'inzu nziza irimo ameza ateretseho aga sahani n'igikombe by'umweru, birimo ikawa yo kunywa irimo amata hejuru, ushobora kunywa ikonje cyangwa ishyushye.

Ni inzu nini yubatse mu buryo bugezweho yubakishije amakaro hasi asize irangi ry'umweru n'umukara, bigaragara ko ari ahantu ushobora gusohokana n'abawe muje gutembera ni ahantu hatuje.

Ni inzu nziza, iri ahantu heza, igaragara neza, igeretse, ifite ibirahure by'umukara hasi, hejuru ni ubururu, isize irangi ryumweru n'umutuku ku rukuta.

Nizu nziza yubatse mu buryo bugezweho yubakishije amakaro hasi harimo intebe z'umukara zifite imisego, ameza y'ibirahure nahantu heza ushobora kwakirira abashyitsi bagiye batandukanye bagusuye.

Ni inzu yubakishije amatafari ahiye hateretse ameza akozwe mu mbaho, intebe zisize irangi ry'umukara harimo imisego, ni ahantu heza hatuje ushobora kwakira abashyitsi bagusuye.

Ni igikoni cyubatse mu buryo bugezweho ku rukuta, hubakishijeho amakaro hejuru yasizeho irangi ry'umweru, hari akabati gakozwe mu mbaho gateretsemo ibyo wabikamo ibyo kunywa, hari umushefu uri gukata imboga.

Ni icyapa gisize irangi ry'umukara n'ubururu ryandikishije mu magambo y'umweru, inyuma yayo hari inzu ndende igeretse yubatse mu buryo bugezweho ifite ibirahure, harimo imirongo isize irangi ry'umukara.

N'inzu nini igeretse isize irangi ry'umuhondo, umweru n'ubururu wandikishije mu mu magambo y'umweru, hanze hagaze umugabo wambaye umupira w'ubururu, ingofero y'umukara n'agapfukamunwa.

Ni inzu nini igaragara neza yubakishije amakaro hasi, intebe zisa ubururu, ameza y'umweru bushoborera kuza kwakiriramo inama zigiye zitandukanye.

Ni umuhanda w'umukara hirya hari ibyapa byinshi bigiye bitandukanye, isize irangi ry'umweru, yandikishije mu ibara ry'ubururu, hari abari kugenda n'amaguru, imodoka ziparitse hari inzu ndende yubatse igeretse.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho igeretse hejuru ifite ibyuma bisize irangi ry'umutuku, ku bikuta hasizeho irangi ry'umweru, hasi hasizeho irangi ry'ubururu n'umuhondo, hari ibyapa.

Ni umuhanda w'igitaka urimo imodoka nyinshi zigiye zitandukanye, harimo iyitwara imizigo igiye itandukanye mu gihugu isize irangi ry'umweru, indi itwara abantu bagiye batandukanya isize irangi ry'umuhondo ifite ibirahuri by'umukara.

Ni inzu nziza ifite ibikuta bisize irangi ry'umweru n'umutuku, intebe z'umukara, ameza afite ibirahure hejuru, ibara ry'umutuku hasi, kugikuta hariho ifoto y'umuyobozi w'igihugu.

n'umugabo wa mibiri yombi wambaye umupira w'umutuku agataburiya k'umukara handitseho amagambo y'umweru mu ibara ry'umutuku bigaragara ko ari ibintu bari kwamamaza bigura amafaranga.

Ni abantu babiri bishimye, b'inzobe, umukobwa wambaye ikanzu y'umweru, ufite imisatsi y'umukara, wipfumuje amatwi, umuhungu wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru na karuvati y'umukara.

Ni icyapa gishushanyijeho umukobwa w'imibiri yombi ufite umusatsi uza maso, wambaye ishati y'umweru urimo uturongo tw'ubururu, inyuma ye hari amafaranga agizwe n'imibare ine, amazeru atatu na gatanu.

Ni Icyapa gisize irangi ry'umweru n'ubururu cyandikishije mu magambo y'umweru n'ubururu hari umukobwa w'imibiri yombi wambaye agapira k'umweru usutse ibintu by'umu.

Ni umugabo w'imibiri yombi wishimye mu maso ye urabibona, yambaye ishati y'ubururu ifite ibipesu by'umweru, hirya handikishije amagambo umukara ndetse n'ubururu.

Ni icyapa gisize irangi ry'ubururu cyandikishije mu magambo y'umweru hariho imodoka bigaragara ko ari nshyashya itarajya mu muhanda, umugabo wishimye mu maso wambaye ishati y'umweru.

Ni abantu batatu, harimo abagabo babiri n'umukobwa umwe, bishimye umukobwa ufite imisatsi myinshi y'umukara, wambaye ikote ry'umukara umupira w'umweru, undi yambaye ishati y'ubururu karuvati.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, hanze hari irangururamajwi ry'umukara, isize irangi ry'ubururu ryandikishije mu magambo y'umweru, mu imbere harimo abantu batatu bambaye ipantaro z'umukara, amashati y'umweru.

Inzu nziza isize irangi ry'umweru n'umuhondo ku gikuta, irimo abantu babiri umugabo n'umugore, umwe yambaye ishati y'umukara, undi yambaye umupira w'umweru ku ijosi isa ubururu n'ikote.

Ni isoko rinini, bigaragara ko ritaratera imbere, bacururiza hasi ibintu bigiye bitandukanye by'imbuto, harimo inanasi, ibinyomoro, imyembe, amacunga ndetse n'izindi mbuto zose wakenera.

Ni isoko rinini bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye by'ibiribwa nk'ibirayi, shufurere, umuceri ndetse n'ibindi byose wakenera, hahagazemo umu mama wambaye rinete, hirya hahagaze umuhungu.

Ni isoko rinini bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye, karoti, amashaza, ibitunguru by'ubwoko bwose, imboga, amashu, harimo umucuruzi wicaye hasi.

Ni isoko rinini ryubatse mu buryo bugezweho, hariho amabati n'ibiti by'imbaho, harimo umumama wicaye uri gucuruza inyanya, amashu kokombure n'imiteja.

Ni umuhanda w'igitaka, bigaragara ko ari isoko rinini bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye, bacururiza hasi; inyanya, karoti, harimo abantu bagiye batandukanye; abana, abagabo, n'abagore.

Ni isoko rinini bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye, ibikapu byo mu mugongo harimo abantu benshi bagiye batandukanye abicaye, abahagaze ndetse n'abari kugenda.

Ni umuhanda munini ugaragara nkushaje; hirya hari abantu babiri bahagaze umugabo numugore; hirya hari inzu nini igeretse ufite ibirahure byinshi.

Ni umuhanda w'umukara urimo icyapa gisize irangi ry'ubururu n'umweru, hirya hari inzu ndende igeretse ifite ibirahure isize amarangi igiye atandukanye.

Isoko rinini risa nkaho ririmo akajagari kenshi, ririmo uruza n'urujya rw'abantu benshi bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye nk'ibikapu ushobora gukoresha utwaramo ibintu ugiye ahantu, imyambaro y'abagore.

Ni isoko rinini bacururizamo ibyo kurya bigiye bitandukanye, inyanya, ibitunguru, imiteja ndetse n'ibindi biribwa byose wakenera, harimo abantu benshi bagiye batandukanye, abamama n'abagabo.

Isoko rinini bigaragara ko ritaratera imbere bagicururiza hasi harimo umu mama uteze igitambaro uri gucuruza ibintu byinshi bigiye bitandukanye higanjemo amacunga, amaronji, imyumbati ndetse n'ibindi bintu wakwifuza.

Ni umuhanda w'igitaka, hari akazu ka MTN, gasize irangi ry'umuhondo, gafunguye amadirishya, hahagaze abantu babiri bigaragara ko hari uwaje kwaka ubufasha.

Ni inzu yubakishije amatafari ahiye, hejuru hasakayeho amabati, hanze hari abantu benshi bagiye batandukanye abagabo n'abakobwa, harimo uwambaye ikanzu y'ubururu ifite imisatsi y'umukara.

Ni akazu ka MTN, harimo umukobwa ufite imisatsi, wirabura, wishimye mu mumaso ye, wambaye umupira w'umweru, ufite akantu k'umukara hejuru, bigaragara ko ari umukozi wa MTN.

Ni umuhanda wubakishije amabuye, hirya hari inzu isize irangi ry'umuhondo, umweru n'umukara, bigaragara ko ari icyicaro cya Emutiyeni, ushobora kujya kwaka ubufasha ubwo ari bwo bwose bakagufasha.

Isoko rinini bacururizamo imyenda igiye itandukanye higanjemo amapantaro y'ubwoko bwose hari umugabo wamanikaga icyapa gisize irangi ry'umuhondo bigaragara ko yarimo aramamaza ibikorwa bya emutiyeni.

Ni moto y'umukara yicayeho umugabo ufite telefone ku gutwi, wambaye ikoti ry'umukara hirya hari umukobwa wambaye umupira w'umuhondo hejuru hariho akantu k'ubururu ufite terefone mu ntoki bigaragara ko bari kumwishyura.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, bigaragara ko ari ku masaha ya nimugoroba, hari abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo abamama, bigaragara ko harimo uwari uri kwishyura uwari wicaye, wari wambaye ikanzu y'umutuku.

Ni akazuka emutiyeni gasize irangi ry'umuhondo n'ubururu, kandidikishije amagambo y'umukara n'umweru hafunguye amadirishya, hahagazemo abantu benshi bigaragara ko.

Ni umuhanda w'umukara hakurya hari akazu ka MTN gasize irange ry'umuhondo, kandikishije mu magambo y'umukara. Ahantu ushobora kujya ugiye kubikuza cyangwa hari ubundi bufasha ukeneye.

Ni umugabo w'imibiri yombi wishimye mu maso ye wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umuhondo wicaye kuri moto isize irangi ry'umutuku n'umukara, hari agakapu bigaragara ko ari umuntu ugemura ibintu batumije.

Ni umuhanda w'umukara uparitsemo moto enye, ziriho abamotari, inyuma hariho ibikarito bigaragaza ko ari abantu bagemura ibintu watumije aho waba uri hose mu gihugu.

Ni umuhanda w'umukara haparitse imodoka isize irangi ry'umutuku ifite intebe y'umukara, hariho igikarito gisize irangi ry'icyatsi cyandikishije mu magambo y'umweru, bigaragara ko ariho babika ibintu bagemura,

Ni umuhanda w'umukara urimo moto yicayeho umumotari afite telefone mu ntoki, inyuma ye hari agakarito bigaragara ko agemura ibintu mwatumije akabikuzanira iwawe, hirya hateye ibiti byinshi birebire.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, iherereye Kabeza mu mujyi wa Kigali n'gikoni kirimo ibikoresho bigezweho by'ikoranabuhanga, imashini twifashisha dukorara imyenda igiye itandukanye, aho twogereza ibyombo.

Inzu nziza iherereye Kicukiro, Kagarama mu mujyi wa Kigali. Ifite ubwogero, ku bikuta hubakishije amakaro y'umweru, harimo ubwiherero bugezweho aho ushobora kujugunya imyanda.

Ni inzu nziza yubatse muburyo bugezweho isize irangi ry'umweru ku bikuta yubakishije amakaro hasi iherereye mu mujyi wa kigali mu gihugu cy'u Rwanda, iri kugurishwa ni ahantu heza ubana n'umuryango wawe.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho yubakishije amakaro hasi, ku bikuta hariho ay'umweru, bigaragara ko ari igikoni kirimo utubati twiza, ibyogutekeraho bigezweho, iherereye mu mujyi wa Kigali.

Ni inzu nziza ifite ibikuta bisize irangi ry'umweru, hirya hari indi yubakishije amatafari ahiye, ifite inzugi zisize irange ry'umutuku, hari ikigega kiri hejuru gisize irange ry'umukara.

Ni inzu nziza irimo icyumba cyubatse mu buryo bugezweho cyubakishije amakaro hasi ku biku hasizeho irangi ry'umweru n'umukara, harimo igitanda cyiza kiriho matela, amashuka ndetse n'imisego.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije amakaro hasi, ifite inkinge zisize irangi ry'umweru, iherereye Kabeza mu mujyi wa Kigali, ushobora kuhaza uje kuyireba ukayikodesha.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho ifite ibirahure mu miryango isize irangi ry'umweru hejuru ndetse no kukuta, hasi yubakishije amakaro harimo umukobwa n'umuhungu umwe yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, ifite imiryango n'amadirishya bisize irangi ry'umukara, hanze hahagaze abantu babiri umuhungu n'umukobwa, umukobwa wambaye ikanzu undi yambaye ipantaro y'umukara.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho isize irangi ry'umweru ku bikuta ifite ibirahure harimo, intebe z'imisego nziza cyane ushobora kuhakiriramo abantu benshi bagiye batandukanye baje kugusura.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije amakaro hasi, ifite igipangu cyubakishije amatafari ahiye, isize irangi ry'umuhondo, ifite ibirahure by'umukara, ifite ibyumba bitanu byo kuraramo, iherereye Kibagabaga.

N'inzu nziza cyane iri hirya y'umuhanda ifite igipangu cyubakishije amatafari ahiye, ifite imiryango risize irangi ry'umukara iherereye Remera harimo icyumba kimwe.

Ni inzu nziza iri ahantu heza ifite ahantu habiri waparika imodoka iherereye kanombe mu mujyi wa Kigali, ifite ibirahuri by'umukara hasizeho irangi ry'umweru, hirya hasizeho irangi ry'umukara.

Inzu nini yubatse muburyo bugezweho, isize irangi ry'umweru mwo imbere hanze hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umukara, ishati y'umweru inkweto z'umukara bigaragara ko iri kugurishwa amafaranga menshi.

N'inzu nziza cyane iri ahantu heza, yubakishije amakaro hasi y'umweru, ku bikuta hasize irangi ry'umweru iherereye mu mujyi wa Kigali, Kanombe iri kugurishwa.

Ni inzu nziza yubakishije amatafari ahiye, yubatse mu buryo bugezweho ifite igipangu cyubakishije amatafari ahiye ifite ibirahure by'umukara harimo imirongo y'umweru.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho isize irange ry'umuhondo ku bikuta, yubakishije amakaro hasi, ifite inzugi z'igipangu zisize irangi ry'icyatsi, ifite ibirahure ku madirishya.

Ni icyapa gisize irange ry'ubururu, cyandikishije mu magambo y'umweru, biri kwerekana ko wagura cyangwa ukagurisha ibintu bigiye bitandukanye, bikoreshejwe mu ikoranabuhanga.

Inzu nziza iherereye ahantu heza hafite isuku ifite amabati asize irangi ry'umutuku, iherereye kibagabaga mu mujyi wa kigali, ushobora kuza kuyisura ushaka kuyikodesha cyangwa kuyigura.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho yubakishije amabati asize irangi ry'umutuku ,imiryango isize irangi ry'umweru ,amadirishya y'umukara ifite ibyumba bitatu byo kuraramo ,ubwogero bubiri.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho ifite ibirahuri by'umukara yubakishije amakaro hasi iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali ifite ibyumba bine ibyumba bitatu byo kongeramo.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho igeretse, isize irange ry'umweru ku bikuta hose, ku madirishya no ku nzugi hasizeho irangi ry'umukara, iherereye Kibagabaga, ifite ibyumba bibiri byo kogeramo na bibiri byo kuryama.

Ni inzu nziza iri ahantu heza hatuje nta mwanda uhari, yubakishije amakaro hasi, ifite inzugi zisize irange ry'umukara harimo ibirahure by'umweru, isize irange ry'umuhondo.

Ni inzu nini y'ubucuruzi yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije amakaro hasi, irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo umuntu wambaye umupira w'ubururu, ipantaro y'umukara irimo imirongo y'umweru.

Ni isoko rinini ryubakishije amakaro hasi ririmo uruza n'urujya rw'abantu benshi bagiye batandukanye, abamama ndetse n'abapapa harimo abari gucuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, imyenda y'abagabo...

Inzu nziza yubatse neza mu buryo bugezweho, yubakishije amakaro hasi bigaragara ko ari uy'ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye ibikapu, inkweto z'abamama zigiye zitandukanye mu mabara ndetse no mu ngano.

Ni inzu nini yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije amakaro hasi, irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye bifunze, bifite isuku mu bubiko bwabyo harimo amata, amazi ndetse n'ibindi ukeneye.

Inzu nini igaragara neza yubakishije amakaro hasi afite amabara agiye atandukanye, bigaragara ko ari iy'ubucuruzi bugiye butandukanye, irimo abantu benshi, harimo abambaye imyenda y'umukara.

Ni isoko rinini bacururizamo imyambaro igiye itandukanye; amakanzu, imipira ushobora kwambara ugiye gusura abantu, mu bukwe cyangwa ibindi birori, harimo umuntu wambaye ikoti ry'umuka.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho yubakishije amakaro asa umweru n'umukara, hirya hahagaze abantu benshi bagiye batandukanye, abamama n'abana bigaragara ko hari abaje kwifotoza.

Ni inzu nini y'ubucuruzi isize irangi ry'umweru ku bikuta bacururizamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, higanjemo ibisorori babikamo ibyo kurya bishyushye, amasahani ndetse n'ibindi.

Ni isoko rinini bacururizamo imyenda igiye itandukanye, ku bikuta hubakishije amakaro y'umweru bigaragara ko bacururizamo imyenda igiye itandukanye amapantaro n'imipira.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho bigaragara ko ariyo ubucuruzi bugiye butandukanye higanjemo ibiribwa by'ubwoko bwose harimo abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo abakobwa.

Ni icyapa gisize irangi ry'umweru cyandikishije mu magambo afite ibara ry'ubururu, icyatsi n'umukara, biri kugaragaza ko ari ahantu ushobora kubitsa amafaranga mu gihe cy'izabukuru ukazongera ukayasubizwa.

Ni inzu ifite ibikuta bisize irangi ry'umuhondo, irimo abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo abamama n'umuhungu bicaye ku ntebe z'imbaho bigaragara ko baje kwivuza.

Ni nzu yubakishije amatafari ahiye, iriho icyapa gisize irangi ry'umweru cyandikishije mu irangi ry'icyatsi n'umutuku, bigaragara ko hari ikintu biri kwerekana.

Ni inzu irimo abantu bagiye batandukanye yiganjemo abamama, abakececuru n'umusore, bafite amakayi bigaragara ko hari ubufasha baje gusaba nko kwivuza cyangwa ibindi.

Ni icyapa gisize irange ry'umweru cyandikishije mu magambo y'ubururu n'icyatsi, hasi hahagaze umumama, hirya hari abahungu babiri bambaye imipira y'umweru.

Ni icyapa gisize irangi ry'umuhondo n'ubururu, cyandikishije mu mu magambo y'umuhondo, hirya hari inzu ndende yubakishije ibirahure, igaragara neza ishobora kuba ari ikoreshwa.

Abantu benshi bari ahantu hamwe bagiye batandukanye, abagabo n'abagore hari ikirangantego cy'idarapo y' Rwanda, kiri mu mabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi, hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara ufite agapapuro mu nto...

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho yubakishije amakaro y'umweru, n'umukara hasi bigaragara ko ari iy'ubucuruzi bugiye butandukanye, ibiribwa ndetse n'ibinyobwa by'ubwoko bwose.

Ni isoko rinini bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye, nk'amaji y'ubwoko bwose, irimo abantu benshi batandukanye, harimo umuhungu wambaye umupira w'umukara, ufite umusatsi w'umukara wirabura.

Ni inzu yubakishije amakaro y'umweru hasi, bigaragara ko ari umuntu wari uvuye guhaha ibiribwa bigiye bitandukanye, harimo pavuro z'ubwoko bwose ndetse n'ibindi bintu ushobora kwifashisha ugiye gute

Ni isoko rinini ry'ubucuruzi bugiye butandukanye mu buryo bugezweho, harimo umukobwa w'inzobe ufite imisatsi wipfumuje, wambaye umupira w'umweru, imbere hariho akandi k'umukara.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho. yubakishije amakaro hasi y'umweru n'umukara, bigaragara ko bacuruza ibyo kurya by'ubwoko bwose, ndetse n'ibyo kunywa. Waba wifuza amata ndetse n'ibindi.